Mu iguriro ni heza cyane umuntu agura ibintu bitandukanye ugasanga yaguze capati ye agahita ayirya cyangwa se akayipfunyika ugasanga arizihiwe, ugasanga bashyizemo utunyama, cyangwa se ibirayi ugasanga iba iryoshye harimo agasenda, akunyu, ukabona umuntu ayiriye yizihiwe.

Iguriro ni ryiza cyane rifasha umuntu kugura utuntu dutandukanye ashaka; iyo ugiye kugura mu iguriro ubasha kwirobanura ukareba icyo ukeneye, ubasha kugura ibintu byinshi bitandukanye umunyu se amavuta, isabune n'ibindi ushaka kuba wagura.

Ni byiza cyane umuntu agura ibintu bitandukanye, ugasanga ameze neza kuko nta gikoresho yabura, ukabona umuntu agiye kugura, agatanga amafaranga bakamuha icyo akeneye, ugasanga umuntu ameze neza cyane kandi ushobora kugenda ukagura ikintu witwaje imodoka kuko igufasha gutwara ibyo wari ugiye kugura.

Amacumbi ni meza cyane, atuma umuntu abasha gucumbika, iyo bwamwiriyeho cyangwa se yatedeye, akabona uwo munsi atari butahe akarara, bakamusasira akaryama. Amacumbi afasha ba mukerarugendo kuba babona aho baba, kuko aho baba bagiye baba basize imiryango yabo.

Iguriro ry’ibiribwa n’iguriro ry’ahantu ho kurara. Iyo ugiye ku rugendo bukakwiriraho, ubasha kuba wagera ahantu ujya kurara, ugatanga amafaranga, ugacumbika umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ukikomereza urugendo. Iyo ushonje, baguha ibyo kurya, ukishyura amafaranga.

Ibikoresho byo mu gikoni byinshi cyane, bidufasha kuba twategura indyo yuzuye idafite umwanda. Ndetse n'ibyo watetse bikaba bihiye neza urugero nk'ikarayi, amasahani ukayariramo ukumva umerewe neza, kuko nta handi warira utaririye ku gikoresho cyo mu gikoni.

Isoko ni ryiza cyane, ridufasha gucuruza ibintu, ukaranguza ukaranguramo ibyo kurya, imyambaro, imyenda, ndetse ukaba wakiteza imbere mu kubungabunga ibyo uba wejeje.